Irerero rusange rifite abarimukazi babiri b'abagore bambaye impuzankano z'icyatsi kibisi, zanditseho ibyo bakora byose bari kumwe n'abana batoya bari kubagaburira imbuto, babahereza ibikinisho bihuye n'imyaka yabo, kugira ngo bakanguke ubwonko bwabo, buzabafashe gutekereza neza.

Abana bagera muri batanu bicaye hamwe ku dutebe dutandukanye, harimo utw'ubururu n'umutuku, imbere yabo hari ikibaho bigera muri bibiri, ndetse n'ameza bahuriyeho bose, bari gukurikira ibyo mwarimu ababwira ku bijyanye n'imibereho myiza y'abana, n'ubuzima bujyanye n'ibidukikije.

Utwana tw'uduhungu ndetse n'udukobwa turi mu kigero cy'imyaka itatu, turi kumwe n'ababyeyi babo, bari babajyanye mu irerero, bari kubaganiriza uburyo bagomba kwitwara, kugira bakure neza, bubaha imana n'abantu, bicisha bugufi muri byose, umubyeyi ababwira uburyo kuba umwana biryoha, ariko iyo bikoreshejwe neza.

Itsinda rigari ry'abana rigizwe n'abana mirongo itatu bari mu kigero cy'imyaka ibiri n'itandatu, bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye impuzankano z'umweru, ari kubigisha uburyo abana bashobora gusimbuka badahutazanyije, bari kumwe na bakuru babo cyangwa mu gihe cyo kuruhuka bishimisha kugira ngo batsinde.

Itsinda ry'abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa, bahagaze inyuma y'urusika rw'ishuri, bambaye impuzankano zisa, bafite ibikapu by'amabara atandukanye, bambaye badaboda bose n'imipira idafite amabara atandukanye, bahagaze inyuma y'igipangu gisize amabara y'umutuku ndetse cyubakishije rukarakara.

Ikigo cy'amashuri gihubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'umweru, kizengurutswe n'ubusitani n'utuyira tunyuramo neza, tudapavomye n'amatafari cyangwa amatafari y'ibindi bintu, aho abanyeshuri banyura bose bari kugana aho basengera, cyangwa iyo batashye bavuye ku ishuri.

Inyubako ifite amabara y'umweru, ifite ibikuta by'umweru biriho ifoto ndetse n'akadirishya gatoya kariho ibirahure bibiri kazengurutswe n'ibyuma, harimo akabati kariho ibitambaro bigaragara mu mabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'ubururu bukeya, hari intebe iteretse hasi abayobozi bifashisha cyangwa igihe abasoma misa, mu gihe abihayeyimana baje.

Umuhanda nyabagendwa unyura iruhande rw'ikigo cy'amashuri gishaje, gifite uruzitiro rwa senyenge rufatishije ibyuma by'umutuku, bigiye bizirikishije n'amakamba ndetse n'imisumari ikomeye cyane, kugira ngo abo mu nzira batinjira mu kigo uko babonye.

Ibikoresho byifashishwa n'umwarimu wigisha imibare, bigizwe n'udukoresho twa mpande eshatu, birimo n'uruziga rushushanyije nk'isaha, harimo udushinge tw'umuhondo n'ubururu biteretse ku meza y'amaguru ane, asa neza ukuntu nk'umuhondo ndetse n'intebe iteretse iruhande rwayo yo kwifashisha igihe ari kwigisha.

Inyubako imwe ishaje yo mu kigo cy'amashuri, yubakishije amatafari y'umuhondo, y'impunyu ndetse ahiye cyane, harimo ikibaho cy'umukara, gifite santimetero zigera muri eshanu mu bugari ndetse n'uburebure, cyubakishijeho amagambo yumukara, ndetse n'andi y'ubururu ahera ku nyuguti ya mbere kugera ku nyuguti ya nyuma.

Itsinda ry'abana batoya, rigizwe n'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano zitandukanye, ubururu hamwe na kaki, bahagaze hafi mu busitani, ndetse n'akarima k'igikoni, inyuma yabo hari akazu k'inkwavu, gasakaje amabati y'ubururu ndetse n'imbaho zitambitseho, inkwavu bakoresha mu korora ndetse no kurya mu rugo, cyangwa ku isoko Mpuzamahanga bakazigurishayo.

Akazu gato cyane kubakishije amatafari ahiye, gasakaje amabati y'umweru, gasize umweru ku ruhande, kerekana yuko ari aho ubuyobozi bukorera bwakirira ababagana ndetse n'ababasura mu gihe bakeneye ibyo bakora byabo.

Igipangu gisize amabara y'umweru n'umukara, kiriho abana bagera muri batatu, bafite umupira wo gukina ariba batatu, cyerekana ko ahantu bakuza impano z'abana, mu bijyanye no gukina umupira w'amaguru, bikazafasha abana kwiyumvamo ko bakunda gukina, kuko baba barabitwoje bakiri mu kigo.

Idirishya rifite metero ebyiri iburyo n'ibumoso, hejuru no hasi, rijya kungana ryubakishijwe ku nzu ya rukarakara. Rifite amabara y'icyatsi kibisi n'ibyuma bitambitse mu mpande enye zose, ndetse n'ibirahure by'umweru hasi n'ibindi bidafite ibara risa nk'irindi hejuru.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gifite amadirishya agera muri makumyabiri, gisakaje amabati y'umweru agera nk'ayashaje, giteyemo ubusitani bukeya ndetse hari inzira z'abanyeshuri, ku ruhande hazitije senyenge zifashe ku byuma bigera mu icumi kugira ngo birinde umutekano w'abanyeshuri basohoka bitemewe.

Ameza ashaje atobaguye, atobaguye imyobo igera muri irindwi, iciyeho imihanda isharaguye irimo ndetse n'imikori igera hose ifite ameza ane, ndetse n'ibitanda hariho ibipapuro by'umweru, n'ingwa z'umweru n'umuhondo, abarimu bifashisha mu gihe bari kwigisha, hari umukobwa wambaye urukweto, ndetse rusa nk'umweru rw'abakobwa rufunguye imbere.

Abana b'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano n'imipira, bari gukina imbere y'ishuri rishaje, rifite amatafari ahiye ndetse n'amadirishya y'icyatsi kibisi, afiteho utwuma ku ruhande bamwe bari mu mbuga isa nabi isa nk'iyavungutsemo amabuye yose na begereye imbere y'ishuri, bategereje ko mwarimu yinjira akaza kubigisha amasomo yabo.

Akazu gato ka mugongo, kari mu bwiherero bwo mu cyaro, basutamamo bagiye kwiherera, kubakishije amatafari ahiye, gafite urugi rw'ibiti byeze, bikoze mu nturusi na Muvura, byubakishije amabara y'umuhondo, hariho amategura inyuma ndetse harimo akarongo k'umuhondo kanyura hejuru y'imiryango, gafashe gutandukanya radari, ndetse n'igice cyo hasi no hejuru.

Icyumba abanyeshuri bigiramo kigizwe n'ikibaho cy'umukara gifite metero ebyiri kuri imwe, cyandikishijeho ibara ry'umweru, amasomo ajyanye n'imibare, giteye ahantu ku gikuta kiriho umweru ndetse n'ahandi hasi y'intebe y'umutuku n'ikinombe kiri ku ruhande abanyeshuri bajya bikoresha aho bagiye gutereka ingwa, mu gihe agiye kwicara.

Isomero rusange ririmo intebe ebyiri z'ubururu n'utubati dufite amatajeri agera muri atanu, harimo ibitabo bitandukanye, iby'imibare n'ubumenyingiro, abana bifashisha mu gihe cyo kwiga bakora imyitozo ndetse banakora ubushakashatsi, bakurikije amakuru abarimu baba babahaye.

Itsinda rinini ry'abanyeshuri rigizwe n'abahungu n'abakobwa, bahetse ibikapu bitandukanye, bambaye impuzankano zidasa, bahagaze imbere y'imodokari rinini cyane, bategereje ko bataha bajya mu biruhuko byaho bakajya gusuhuza ababyeyi, mu gihe bavuye mu masomo, bari bamazemo igihe kirekire kingana n'amezi atatu.

Abanyeshuri bari mu ishuri harimo abahungu n'abakobwa bafite ikirabo imbere yabo, bari mu nyubako nini cyane ifite iparafo y'ikinombe n'amadirishya menshi ariho amarido atatse impande n'impande n'amakaro y'umweru n'umugozi ujyana amajwi mu bikuta kugira ngo abicaye inyuma bumve.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako zigera mu icyenda, zifite imiryango y'amabati y'umutuku, afite n'ibyuma hejuru yabyo n'ibirahure bigize inzugi, hagati hatarimo amatafari nta mabuye arimo ari igitaka, inzira ijagaraye uko bigenda, umucanga urunze hirya no hino, batarakorera amasuku neza.

Ikigo cy'amashuri gifite imbuga irimo ibyondo, ibyuma bishinze ku ruhande n'amasinga ajyana amashanyarazi mu nzu, gisakaje amabati y'ubururu n'amatafari ahiye y'impunyu, inzugi zisize amarangi y'icyatsi kibisi, ariho ibyuma bitambitse ku birahure, ndetse n'utuyira abanyeshuri banyuramo mu gihe bari gutaha banajya ku ishuri.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu kizengurutse urwinjiriro rw'ikigo cyitwa ishuri ryisumbuye rya Sumba riherereye mu karere ka Huye, gifashe ku bikingi by'amabuye aconze neza bakoresheje amapiki, ndetse n'ibyuma biri ku rwinjiriro byubatse aho binjirira harimo ibyuma byose n'amabara y'ubururu aho ureba ubusitani buri imbere aba yifashisha bahumeka.

Itsinda ry'abanyeshuri riri hamwe, riri gukora umurimo w'Imana mu kuririmba, begereye abaturage bari impande n'impande bateze amatwi babumbira, harimo abagore bambaye ibitenge n'abateze ibitambaro, bicaye imbere yabo, bafite indangururamajwi ziteretse imbere yabo n'umukeka wo gushyiraho udukoresho.

Icyapa kinini cyane gifashe ku byuma kiri mu mabara y'umweru cyandikishijeho amagambo y'ubururu n'umukara, cyerekana ko ari ikigo cy'abakobwa cyisumbuye giherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Karubanda, gifite urugi rusa nk'umweru rwandikishijeho amagambo y'umutuku ndetse n'ubururu ari mu nyuguti eshanu.

Inyubako z'ibitaro by'ibanze biherereye mu karere ka Huye, mu murenge wa Ngoma, mu kagari ka Jali, aho bakingiriza abana ndetse n'abafite uburwayi bworoheje babanza kunyura, hamwe n'abagore batwite mbere yuko bajya mu bitaro bikuru kubonana n'abagabo b'inzobere, ndetse n'abaganga babavura.

Urungano rw'abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye impuzankano zitandukanye, bamwe bambaye imipira, abandi bambaye amashati, bicaye munsi y'amahema bafite n'amazi mu ntoki, bakurikiye inama bari kugezwaho n'Umuyobozi w'Akarere waje gusura ikigo cyabo.

Ikigo cy'abanyeshuri kirimo abahungu n'abakobwa, bari mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani, bateze amatwi aho abanyeshuri bahurira, mu gihe bari kumva abayobozi ibyo bababwira, harimo amatangazo yuko umwana agomba kwifata mu kigo, n'ibyo agomba gukora n'ibyo yemerewe.

Isomero rusange ririmo ibitabo byinshi bifite amabara atandukanye n'utubati tugeretse inshuro eshanu, amabara y'umutuku ndetse n'ubururu yiganje mu bitabo birimo, bitandukanyijwe n'utuntu tw'ubururu turi hagati y'ibitabo n'ibindi ndetse n'ahandi hose hagaragara ibiti by'inturo.

Inyubako z'ikigo cy'amashuri abanza giherereye i Huye mu Karere ka Huye, mu Murenge wa Tumba, mu Kagari ka Rango, ahaba abana batoya biga ibijyanye n'ubuzima, ndetse n'abandi bafite ubumuga bashoboye kuza kwiga, kugira ngo bazavemo abayobozi b'ejo ha...

Isomero rusange ryubakishije amakaro y'umweru, hagaragara intebe ebyiri ndetse n'ameza amwe yicarwaho n'utegereje ko abana baza gusoma. Hari n'ibitabo by'amoko yose n'udupapuro tubiranga, aho buri somo barisanga. Harimo imibare n'ibinybutabire, ibinyabuzima n'ibidukikije, bifasha abana kwiga neza.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri igeretse inshuro zigera muri ebyiri, ifite ibitambaro ku ruhande biri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, bigaragaza ko ari ibendera ry'u Rwanda, ifite amatafari asa nk'ahiye, yubakishije amabara y'umweru ndetse n'andi ari ku ruhande, afite inzugi ndetse nyinshi n'ibyuma byo kuririra.

Icyapa giteye mu mbuga kigaragaraho amabara menshi harimo umweru ndetse n'ubururu bigaragaza amabara y'igihugu cy'u Rwanda hari uduseke dutatu hejuru gikikijwe n'ibirabo birumbaraye bifite akabara k'igihondo kagaragara nk'aho ari gakeya ariko kari imbere y'inzu ishaje ifite amatafari ahiye cyane n'amabara y'umukara hasi.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano z'amashati meza bahetse ibikapu by'amabara atandukanye, bari kwinjira muri bisi bataha bava ku ishuri berekeza mu ngo z'ababyeyi, aho bagiye mu biruhuko bizabafasha kuruhuka ndetse no gutekereza uburyo baziga igihembwe gikurikira.

Ikigo cy'amashuri gifite amatafari ahiye, gisakarishe amabati y'ubururu, hari akarahuri kamwe kagaragara, ikibuga gishaje kitarimo ubusitani buhagije ndetse n'ivumbi ryinshi, bishobora gutera abana amavunja no kubatera indwara z'umubiri harimo n'indwara z'uruhu zaterwa n'ivumbi rihaturuka.

Itsinda ry'abanyeshuri rigizwe n'abakobwa barebare, abagufi, n'abaringaniye, bambaye amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, uniforme zisa hose, n'imipira y'imbeho yanditseho ibirango by'ikigo cyabo. Bari kumwe n'umutoza wabo, mubijyanye no kuririmba ndetse no kuyungurura amajwi. Iyo baririmbye neza, bizabafashe gutsinda.

Itsinda ry'abanyeshuri, bambaye impuzankano z'umweru, bicaye ku meza amwe begeranye, batumbiriye imbere mwarimu wabo, aho yashyize indangururamajwi, ndetse na mudasobwa eshatu zibafasha gukurikira neza, ibyo ari kubahereza abigisha, ku bijyanye n'ibinyabutabire, byifashishwa mu kuvura abantu.

Ibiti binini birumbaraye, biri iruhande rw'ikigo cy'amashuri, harimo imisave n'imiyenzi, bizengurutse ku ruzitiro, rufashe ku nzu y'amatafari asakaje umutuku ndetse n'umweru, biri ku ruhande rumwe byose, hariho ubusitani buto cyane, harimo ibirabo ndetse byinshi, bigizwe n'amabara arimo menshi umuhondo n'umutuku.

Abakobwa n'abahungu bakora umurimo w'Imana bibumbiye mu cyimbo kimwe kugira ngo baririmbe indirimbo zo guhimbaza Imana, zizajya zifasha abantu kubahuza n'Imana no gusengera ibyifuzo byabo no gutuza mu gihe bananiwe, bibafasha kwirinda ibiyobyabwenge ndetse no kwitonda mu gihe cya nyacyo.

Uruzitiro rw'ikigo cy'amashuri, rwubakishije amatafari ahiye, ruteyeho ubusitani ku ruhande, n'ibiti birebire cyane, harimo iby'intusi n'umusave, hari icyapa kiranga ishuri, cyigisha ubumenyingiro ndetse no mu mashuri yisumbuye, hariho ibyuma by'umweru ndetse bitambikishije utwuma.

Ikipe y'abahungu n'abakobwa bambaye imyenda y'imikara, bakina umukino w'amaguru, bari kwihuriza hamwe kugira ngo bahuze ibitekerezo nyuma yuko bamaze gutsindwa na mukeba wabo uri hakurya, bambaye imipira y'umuhondo, barimo bajya inama hamwe n'umuyobozi wabo, abafashe kugira ibitekerezo byatuma bakina umukino ukurikira.

Bijagaraye bigiye biri ku dutajeri tugera muri dutanu. Bidatenze neza ku murongo ariko birimo amabara atandukanye yiganjemo ubururu n'icyatsi kibisi, ibitoya ndetse n'ibiringaniye biteretse imbere y'intebe nziza iri mu mabara y'umuhondo iteretse uruhande rw'utubati.

Urugi rukoze mu rubaho rw'agaciro rwitwa muvura rukenerwa cyane, rufite metero enye kuri enye, ruzengurutswe n'amatangazo, hariho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, ndetse n'umuyobozi uyigenga, yerekana umuyobozi waho ndetse n'icyo ashinzwe, muri iyo nzu hariho akaryango gato cyane abantu binjiramo iyo bahaje.

Icyumba kimwe cy'ishuri kigizwe n'intebe nyinshi ziri mu mabara atandukanye, hasashe hasi tapi y'ubururu, hari indobo yo gukoresha amasuku, ifite ibisenge by'umweru ndetse n'ikibaho ku ruhande kigizwe n'ibizana amashusho by'umukara, intebe ziba mudasobwa ziri mu mu mabara y'umukara n'ubururu bikoresha bari kwiga.

Ikigo cy'amashuri cya Kaminuza y' i Butare aho abanyeshuri bigira gifite inyubako zigeretse inshuro esheshatu, zigiye ari ebyiri ziteganye, zifite uruzitiro rwiza cyane rugizwe n'ibyuma ndetse n'ibiti. Hateye ubusitani impande n'impande n'igiti kirekire abanyeshuri bugamamo izuba mu gihe barikuruhuka izuba bavuye mu ishuri.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda iherereye i Butare igeretse inshuro eshanu bayita izina rya batîment rimenyerewe ku banyeshuri benshi, rikoreshwa ku banyeshuri bahavuye ndetse n'abashya bahaza, izengurutswe n'ubusitani burimo ibiti byinshi ibirebire n'ibitoya ndetse n'ibyuzana umuyaga.

Umuhanda munini nyabagendwa w'igitaka urimo utubuye dukeya na latellite, ufite amahuriro n'amasangano agera muri atatu, ahura n'undi uturuka hakurya, ahari ibiti birebire by'intusi n'ibiti bya karibitusi biri iruhande rwabyo, aho abantu bakunda kuba bicaye mu gihe bategerejanya abandi.

Icyapa kirekire cy'umweru kiriho amagambo yandikishije umutuku n'umukara, kiri hasi y'akayira k'igitaka kari munsi y'amazu yubakishije amatafari n'ubusitani bwa pasuparume, kerekana aho uburiro bw'umucyo buherereye bari kwerekana hari amatente y'umweru ndetse n'ikirabo giteye ku ruhande.

Icyumba kimwe kirimo sima y'umutuku gifite ibikuta bisize ubururu, harimo intebe ebyiri ziteretse munsi y'ameza, ameza ariho utujerekani tugera muri dutatu tubikwamo amazi yo kunywa ndetse n'uburoso n'umuti w'amenyo biteretse iruhande ryabyo n'ibikoranje byo gukoresha.

Icyumba gito cyane kijagaraye kidashashe gifite akavuyo kenshi, kirimo intebe y'umweru ndetse na mudasobwa iri ku meza n'umukeka w'icyatsi kibisi harimo uturongo tw'ubururu ndetse gifite mu ishusho ya kare kigaragara hasi ya miruwari, yifashishwa mu kwibonesha no kubona amashusho.

Ikigo cy'amashuri gifitemo inzu eshatu, zigeretse inshuro eshanu, gifite ubusitani bukeye cyane, bugizwe n'ibyatsi bigufi ndetse n'ibiti birebire bizenguruka impande, hari umuhanda unyuramo urujya n'uruza rw'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, banyuramo bava kwiga abandi bajya kurya no kuryama, abandi bagana aho basengera.

Ubusitani budaconze neza bwegereye ikigo cy'amashuri hari ikibuga cy'umupira w'intoki, ahari ibyuma bikoreshwa ndetse n'uducundura tujyamo imipira, haciyemo amabara y'umweru n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, hamwe n'amabati y'umutuku asakaye n'ibiti byegereye iyo nzu.

Itsinda ry'abagabo batatu b'abayobozi mu by'ubwubatsi b'abirabura, bari kumwe n'umuzungu umwe wambaye akarindadamuwa k'ubururu, nabo bambaye akarindamunwa k'umukara, bari gutangiza igikorwa cyo kubaka kaminuza nkuru y'u Rwanda, ahazajya higishwa ibijyanye n'ubuzima ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bw'inyamaswa no kuzirindira umutekano.

Inyubako y'abanyeshuri, abakobwa b'i Butare bararamo biga muri kaminuza, igeretse inshuro zigera muri eshatu, ifite ibipande bigera muri bitanu, buri hose hagiye harara abakobwa batandukanye, izengurukijwe n'ibiti by'ibyuma, ndetse n'imiyenzi myinshi iri imbere yaho n'ibiti bya kaributusi abanyeshuri bugamamo akazuba, mu gihe bari kuruhuka.

Abanyeshuri bari kwiga muri kaminuza, buri wese yambaye imyenda ashaka, bategereje ko mwarimu ababwira, bafite umwarimu w'umuzungu, ufite imbere ikigaragaza amashusho, harimo n'abafite mudasobwa n'impapuro bakurikiye mwarimu, ndetse n'amakaramu yo gushushanya.

Itsinda ry'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye imyenda y'impuzankano isa nk'umweru, bicaye ku dutebe dufite amapine ane, ndetse n'intebe imwe izamuye y'umukara. Bicaye ku bibaho bari kwigiraho nk'aho bari gukora isuzumabumenyi. Bareba ibinyabutabire bishobora gukoreshwa mu buvuzi ndetse no mu buvumbuzi.

Igikuta cy'inzu cyubakishije amatafari n'umucanga, kigaragaraho agasanduku k'ibitekerezo gakoze mu mabara y'umweru, gafungishije n'urufunguzo rwa kare, aho buri wese aza agaterareramo ibitekerezo hano, umuyobozi yaza akajya kubireba akabisoma byose, kugira ngo abikemure.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru, bambaye amadarubindi mu maso, bafite imisatsi iconze gakeya, bari gukora isuzumabumenyi ku byo bize, bari mu nzu ishushanyije ukuntu, ifite ibikuta by'umweru ndetse n'uducupa bagenda bakoresha, ibyo baba bashaka guhuza n'ibyo baba barize.

Isomero rusange ryo mu kigo cya Kaminuza, rifite ameza aho binjirira hari ibitabo n'utubati tugiye tubitse ibitabo byose, buri hose n'agapapuro k'icyo bivuze ndetse banaranga n'aho babisanga ku buryo ntawe uyoba iyo agiyemo cyangwa ashakishe abitere hejuru.

Inyubako imwe mu zigize ishuri, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga n'utubati two kubikamo impapuro n'ibikoresho abarimu bakoresha harimo intebe z'ubwoko bwose, harimo izikoresha amapine n'izihagaze neza, harimo ameza ashyirwaho mudasobwa yifashishwa mwarimu ari kwigisha.

Icyapa gifite amabara y'ubururu n'umweru, kiri hagati mu busitani, kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, giteye hafi y'urukika ndetse n'ibiti bikuze cyane, bizamutse ndetse birandaze, hari umuturage uri kugifotora, akoresheje ibinyabiziga ndetse n'icyuma cyabugenewe.

Akabati k'amabara y'umweru kuhande, gafite akabati kageretse inshuro eshatu, harimo imyenda n'udusakoshi tw'abakobwa, n'imyenda yo kurarana bakoresha, harimo ifoto hejuru y'umukobwa uhagaze wambaye imyenda y'umweru yifotoje ari inyuma y'ibiti, ndetse n'ubusitani burimo indabo z'umuhondo, hari n'igipapuro cyo gukoresha mu bwiherero.

Inyubako yo mu kigo cy'amashuri yubatse mu mabara y'umweru ifite utubari tugeretse gatatu tugiye dufashe ku bisima umunani byubakishije amabara y'umweru n'umukara ifite urukarabiro kuri buri kabati kageretse inshuro eshatu hari ibikoresho abakoresha bakoresha ndetse n'abanyeshuri bakarabira mu gihe barangije isuzumabumenyi.